Isahani iriho ibyo kurya, hariho ikirayi cyokeje, hariho na burusheti ebyiri, ni ibiryo rero biryoha ariko bishyizwemo n'agasenda kari hano ku ruhande. Ubuzima bugenda neza iyo wariye kandi ukanaywa.

Abantu basohotse bakaba bagiye aho biyakirira hamezeze neza. Bari gufata icyo kunywa kiri mu bwoko bwa mitsingi, kandi baraganira mu buryo butuma buri umwe asusuruka.

Ahantu hokerezwa burushete, ni igikoni kirimo imbabura igezweho, ibasha gufasha mucoma kotsa burushete neza, mu buryo butuma abakiriya babona serivise kandi nziza.

Ibinyobwa bitandukanye bizwi ku izina rya sofuti dirinki harimo: fanta, hakabamo ji, fanta z'amoko atandukanye iya koka, iya sipurayiti, iya oranje, hariho ji ya mirinda, kugira ngo abana baze kubikoresha bashire inyota.

Hoteli igezweho itanga serivisi zo kwakira abantu mu bijyanye n'ibyo kunywa. Harimo ibinyobwa bitandukanye, sofutidilinki na biya, bitewe n'ubwoko bw'icyuma uragihabwa kandi serivisi ikaba imeze neza.

Ahantu ha bare harimo ibyo kunywa bitandukanye:byaba fanta, inzoga ku giciro gitandukanye ,hari urubyiruko rutandukanye rwaje kwaka serivisi muri bare

Bari irimo inzoga zitandukanye, harimo inzoga za wisiki ikabamo inzoga za byeri ndetse hakaba harimo n'ubwoko butandukanye bw'amafanta. Harimo na firigo ibasha gukonjesha ibinyobwa.

Ahantu hatangirwa serivisi zo kwakira abantu, hamwe hazwi nka moteri cyangwa bare, uje abasha kwicara mu ntebe nziza zifite ibara ritukura, hanyuma akakirwa bitewe n’icyo akeneye.

Supamakete icuruza ibicuruzwa bitandukanye, harimo ibyo kurya, ibyo kunywa nka ji, biswi n'ibyo kunywa nk'inzoga zigezweho, henikeni n'ibindi bitandukanye.

Nayitikalabu igaragaza abantu mu rujya n'uruza rwa nijoro, ariko bakaba bari kwishimira ibyagezweho, cyangwa se baje kwivura siteresi muri nayitikalabu.

Ibiryo biteguye neza，biri ku meza ubirya yagira apeti，ndetse aba afite akantu ari kunywa kajyanye na fanta cyangwa sicolo.

Kuri Hoteli hatangirwa serivisi zo kwakira abakiriya, ahantu heza hagezweho hafite ubwiza nyaburanga hateguye neza ku buryo uwaje guhaka Serivise akayihabwa neza, agenda yinubira uko haza kuko harakeye.

Ubucuruzi butandukanye amatapi, imikeka ,matela n'imisego bigezweho kandi byiza byafasha umuntu uri mu nzu kugira isuku no kuryama ahantu heza haboneye.

Ubucuruzi bw'ibikapu biboshye mu bitenge, bikorewe mu Rwanda, biri ku muhanda, mu buryo butuma ubigura abibona neza, kandi akabasha kugura ku giciro ashoboye, bitewe n'uko ari ibyakorewe mu gihugu.

Inyubako yubatse mu buryo bwiza bya etaje kandi ikaba igeretse ,utanga serivisi za hoteli abagana baba kwibona na serivisi nziza kandi zibanogeye ku ijyanye n'igihe kandi yubatse neza.

Imitako y'ubwiza izwi nk' amashenete aho iri mu bwoko bwa siiva kandi ibasha gufasha ababyambaye mu ijosi ,bakarimba haba no mu kuguru harimo n'impeta ziri mu bwoko bwa golude ukabasha kwambara ,ukaberwa kandi ukajya aho ushaka kugera.

Icyapa kigaragaza ubworozi bw'inkoko, kikaba kiri ku nzu ya etaje, aho kigaragaza ubucuruzi buhakorerwa, ndetse kikaba kiri kuri giriyage za yo, ziyo nzu.

Butike irimo uduseke dukoreshwa mu gihe cy'ubukwe cyangwa mu gihe basuye umuntu. Harimo nimyenda y'abageni ,hanze hari icyirago hakaba n'umuntu uri kudoda akoresheje imashini n'abandi babiri bari hanze umwe ahetse umwana undi amuteruye mu ntoki.

Bare resto itanga serivisi zitandukanye harimo n'ibyo kurya, hakaba icyo kunywa, ndetse bakaba batanga na serivisi z'ikoranabuhanga, aho bashobora kuguha serivisi yitwa, vuba vuba bitewe n'icyo ukeneye.

Amapoto y'amashanyarazi hafi yayo hari ibyapa bigaragaza serivisi zitangwa yaba moteri, yaba abahinzi bari muri Hingawunguke, ndetse bakagaragaza na serivisi batanga kugira ngo umuntu abashe guhinga ndetse anunguke.

Umurama w'ibitunguru bizwi ku izina rya onyoruje, ubasha gukoreshwa winaza. Hanyuma ukinaza uyu murama kugira ngo, uzabone ingemwe zo gutera ibitunguru.

Ahatangirwa serivisi za banke agenti nka banki ya bpr, banke popireri, BK, Equity n'izindi zitandukanye. Hariho umukiriya waje kwaka serivise muri bank agent ku mabanki agent.

Ahatangirwa serivisi zo gufotora, aho bafotora amafoto atandukanye nk'aya aniveriseri, ubukwe no gukora videwo z'ubukwe. Igiciro mukiganiraho kandi serivisi ikaba inoze bitewe n'igihe wayisabiye, ukayihabwa kandi neza.

Butike irimo imyenda: imipira izwi ku izina rya jampa, ifite ingofero, ifite amaboko, ndetse ikagira n'imifuka ku nda. Ku ruhande hariho ipantaro kandi iri mu bwoko bwa siporo, aho uwayiguze abasha gukora siporo mu buryo bumworoheye.

Umucuruzi ucuruza imyenda y'abagabo, ， amakoti， amasokisi，imipira， inkweto nawe ubwe akaba ari kwakira abakiliriya baje bamugana bitewe n'icyo bakeneye， akaza kubaha serivisi.

Inzu itangirwamo serivisi za gesite hawuze, amacumbi, ndetse umuntu akaba yahabwa izi serivise anyuze kuri telefone ziri kuri iki cyapa nk'uko zigaragara.

Centre y'ubucuruzi irimo abantu b'urujya n'uruza, harimo servisi za emutiyene, dayihatsu ipakiye inzoga n'abatwara abagenzi kuri moto.

Botike itanga serivisi zitandukanye zirimo ubucuruzi bw'ibijererekani, imiceri n'amasukari. Ku muhanda waho hariho imikubuzo ndetse hari n'imodoka itwara abagenzi mu buryo bukwiye.

Ibijerekani biri mu mabara atandukanye, rimwe amajerekani atatu ni umuhondo, abiri ni umukara. Yose afite imipfundikizo y'ubururu ari ahantu hari mini maketi, aho babasha kugura kimwe cyangwa bibiri bakabigura.

Santere iriho ubucuruzi bw'imyenda iri mu bwoko bw'imyenda y'abagabo aho amatisi abasha kugurwa kuri metero hanyuma abagabo bakadodesha bitewe n'ubwoko bw'itisi bahisemo. Hariho n'abatayeri cyangwa se abadozi bari gukoresha imashini za nyonganyonga.

Inzu y'ubucuruzi buciriritse aho ushobora kubonamo serivisi zitandukanye zijyanye no gucuruza kuri detaye. Umukiriya araza akabaza ibyo akeneye akabihabwa.

Amasaro yo mu bwoko bw'umweru, umukara ndetse navanze. Ibinigi bitandukanye, na shenete ziri mu mabara atandukanye, zifasha abadamu kurimba mu mirimbo y'ubukwe.

Aho bakoreraga ibyapa bakandika ku myenda muburyo bw'ikoranabuhanga imyenda ibasha gushirwaho ifoto cyangwa bakandikaho amazina bitewe nicyo ushaka wayikorera mu biro bashobora kuguha serivisi zijyanye no gutera kashe.

Firigo irimo ibinyobwa bitandukanye harimo: byeri, hakabamo fanta hakabamo iruhanderwafurigo hakabaho akadobo karimo ,amandazi gateretse kwi karito ya ji y'inyange.

Igiti cya avoka kiri hejuru y'aho bacururiza mu kabutike, ndetse hirya y'akabutiki hakaba hari ubutaka buhinzwe bushobora gukoreshwa nk'umurima w'ikigoni, cyangwa guterwamo ikindi kintu cyose cyakwemerwa na nyir'ubu butaka.

Umudozi w'imyenda udoda imyenda itandukanye yaba iyo mu bitenge, yaba iy'abagabo, afite imashini ari mu kazi, imbere ye hari ipasi abasha gukoresha ari kugorora imyenda yamaze kudoda, hanyuma inyuma ye hakaba imyenda yamaze kudoda, cyangwa se n'ibitenge arimo gucuruza.

Butiki irimo icyo kunywa kiri mu bwoko bwa sofuti dirinki， ikabamo n’amavuta， yaba ayo mu mutwe yaba ibikotoro byose bimeze neza， muri botike kandi icyo kunywa cya Sofuti dirinki kiri mu moko atandukanye ji na fanta.

Urugi rwa kijyambere rugezweho rurimo mitarike, rufite n'ibirahuri byiza. Ruri ahantu hubakiye mu buryo bw'amakaro kandi rumeze neza. Ni urugi rumeze neza rwose kandi rwabasha gukoreshwa mu buryo bwo gucunga umutekano, ukinga iwawe ntihagire abajura batambuka.

Iduka ricuruza imyenda, ku ruhande hari kiyosiki ya Emutiyeni, aho batanga serivisi za Emutiyeni nka mituyu, eyatayimu cyangwa mobayiromani.

Butike yo kwa joshua ikora ibikoresho by'ikoranabuhanga harimo telefone, harimo simate fone, harimo gukuramo, pasiwade harimo gukuramo kode, harimo za ekuteri n'amaradiyo byose kwa joshua barabikora.

Isantere y'ubucuruzi irimo imodoka, ikabamo amazu, ndetse umucuruzi w'umudamu ari kugaragaza ibicuruzwa bye by'amoko atandukanye, ndetse akanitegereza uko abandi babigenza.

Muri papeteri, aho bacuruza ibikoresho bitandukanye, byaba ibyo mu biro, byaba n'iby'ishuri, habamo amakayi, amakaramu, hakabamo amakereyo, hakabamo impapuro, byose bikoreshwa n'abagiye ku ishuri cyangwa se mu biro.

Mini alimentatio cyangwa se mini maketi yo kwa Kabasha. Batanga serivisi zitandukanye: mu kugurisha imigati, kugurisha amavuta, kugurisha imiceri, kawunga, amata yanjye, bureba.

Aho bacururiza ibintu bitandukanye harimo po z'abana, hakabamo ka etageri gakozwe mu bwoko bw'imigano ndetse n'izikoze zo mu bwoko bwa purasitike harimo ni ibikuvureri abantu biyorosa.

Abaturage bari kugenda mu santere, aho baba bavuye gushaka serivisi z'itumanaho, ndetse bakanamenya aho emutiyeni ikorera, kugira ngo igihe bakeneye serivisi babe bamenya aho bazishakira.

Umusore ukunda umuziki yicaye ku gatebe, kandi akoresha serivisi z'ikoranabuhanga kugira nawe akomeze yiteze imbere. Kandi amerewe neza nta cyo bimutwaye ku bijyanye n'umuziki.

Santere y'ubucuruzi layiti shopu yo kwa Twizerimana ndetse ikaba iteganye na shopu itanga serivise zirimo na omo ya kelemasita, mu muhanda harimo umunyonzi, ndetse ari kurebwa n'undi muntu ku ruhande utambuka.

Inzu yazitiye na senyenge, iri mu bwoko bw'iyacuruza serivisi zikoranabuhanga bwa inteirnete kafe, aho icyapa kibigaragaza, kandi ukeneye serivise wese akaba yayihabwa.

Aho batangira serivisi z'ikoranabuhanga zizwi nk'irembo, ndetse no kwishura imisoro ya rwandareveni. kwishyura amazi muri Wasaki, gutanga serivisi za banki nka Bipiyara ndetse no kuba wagira ifatabuguzi, cyangwa se kwishura banki Ekwiti.

Butike itanga serivisi zitandukanye ni butike yo kwa Gilbert bacuruza azamu, bagacuruza isabune ya omo izwi ku bwoko bwa kelemasita, kandi iyo uhageze serivisi zirihuta.

Agoropi, ahantu hacururizwa ibiryo by'amatungo. Ukeneye kumenya byinshi bitandukanye urabahamagara bakakubwira uburyo wabona ibiryo by'amatungo. Bakora neza kandi barihuta.

Abaturage batatu bari mu isantere y'ubucuruzi ya Kinigi ku ishopu ya emutiyeni, aho bigaragara ko baba baje kwaka serivisi zitandukanye zijyanye na kominikasiyo muri iyi santere.

Iduka ricuruza ibikoresho bitandukanye harimo iby'ikoranabuhanga, iby'umuziki ,ndetse n'amasorori yo mu gikoni. Ni kwa Pisani shopu ndetse bakaba babasha kugira n'imashini zidoda.

Ahakorerwa ubucuruzi bujyanye na bare na resitora, aho bafasha abantu kubona ibyo kurya nicyo kunywa bitewe n'igihe baziye, kandi bakabona serivisi zituma ubuzima bwabo bukomeza kugenda neza.

Ubucuruzi bw'imyenda y'abakobwa, cyangwa abadamu hariho na masogisi ndetse n'umuntu udoda, uri kureba ko abakiriya baza, kandi neza, akabaha serivisi, bitewe n'ibyo bakeneye, niba imyenda, niba ari amasogisi.

Icyapa kigaragaza aho bacururiza umusaruro w'amagi, akiri fureshi, akiri mashya, ndetse n'inyama z'inkoko, aho ubasha kuzibona ku giciro kikoroheye, ugahamagara kuri nimero yatanzwe.

Ahantu hakorerwa amashusho y'ubwiza, aho bashobora gukorera amafoto, bakagukorera amafoto y'ibirori, ay'isabukuru nayo gushyingirwa, biterwa n'icyo ukeneye.

Inzu itanga serivisi z'ikoranabuhanga aho wabasha kujyamo ugasaba serivisi zikoresha ikoranabuhanga. Hanyuma ukazihabwa kandi ku giciro kikunogeye bitagombye ko uba uri uwawe cyangwa ufite telefoni.

Ameza ariho ibikoresho bitandukanye, hariho aka jage, teremusi hari igikombe cy'umunyu, hakaba agacupa, umubirikira, hakaba hari umudaho afashe mu ntoki, kandi kuri aya meza hariho agatambaro ko guhanaguza ibyombo, hirya yaho hari aho bashyira ibitunguru byo gukoresha mu gihe waba uri guteka.

Butike irimo ibikoresho by'ikoranabuhanga, aho harimo kamera zo gufotora, habamo poshete za telefone, ikabamo n'amatelefoni. Ushaka rero guhaha ibikoresho by'ikoranabuhanga, yaza muri iyi butike.

Ahatangirwa serivisi za Resitora aho ubasha kuza ugahabwa ibyo kurya cyakora ushobora gukoresha komande ku bijyanye na keke cyangwa imigati, ikoreshwa mu kwizihiza isabukuru z'amavuko.

Imbabura zo gucanaho amakara. Uyu mucuruzi arazerekana akagaragaza ko azifite kandi ko yiteguye kuziha umuntu wese waba aje kuzigura. Izo mbabura ziri imbere y'inzu kandi imbere y' izo mbabura naho hari igiti kirekire.

Ahacururizwa ibikoresho by'ubwubatsi hazwi ku izina rya kenkayori, hariho imyenda ushobora kwambara uri gucuruza, hari imyenda ushobora kwambara uri mu gihe cy'imvura, hariho amatiyo akoreshwa mu buryo bwo kwesitara amashanyarazi, hariho umupira w'amaguru n'ibindi bitandukanye.

Inzu y'ubucuruzi itangirwamo serivise z'imari, ikaba ikoreshwa n'ikigo cya banke yitwa Ekwiti banke, ahangaha imiryango irafunguye, byumvikana ko bategereje abakiriya cyangwa bari guha serivisi abakiriya bagana iyi banke yitwa Ekwiti.

Imurikabikorwa rya arasiye, aho ufite ibikorwa ari kugaragaza ibyo akora, akabisobanurira abaje kumwumva kugira ngo abagira ibyo bashima, baze kubona serivisi ziturutse kuri uyu mucuruzi.

Ahatangirwa serivisi za bare, harimo ikinyobwa, hakabamo icyo kurya, igipangu kirimo ibisheke bimeze neza, kandi harazitiye mu buryo hatavogerwa.

Urubyiruko rwifotoje mu nyubako zigezweho, aho agaragaza ibyishimo ndetse akaba yambaye mu buryo busirimutse cyane, inkweto z'umukara, ipantaro ya tise n'ishati. Bituma ariragisa kandi akagenda afite icyizere.

Raparume Hoteli ni Hoteli igezweho mu Karere ka Musanze, yakira abantu, yaba ku manywa, yaba na nijoro, ifite ibyumba byiza, kandi ibasha gutanga serivisi zigezweho, zituma abayigana bazagaruka.

Alimantasiyo aho bacuruza ibikomoka ku ifarini, indazi, keke, sambusa, imigati, bafite na meni zitandukanye hote kofi, ayisiti kofi, ndetse na ti yo mu bwoko bwa shokora, juyise iri freshe.

Inyubako yo mu bwoko bwa kijyambere izwi nka etaje, inyubako igeretse iri kugaragaza uburyo bw'ikoranabuhanga bwo gutwara abagenzi kizwi nka asanseri, aho umuntu ashobora kujyamo icyuma kikamuzamura, atagombeye gukanda atagombeye kugenda ku ma esicariye ku ngazi.

Ubucuruzi bw'ibintu bitandukanye harimo imyenda y'abana, kabamo abaguzi batandukanye, baje kugura iyi myenda. Bari gucisha ku buryo bareba ko igiciro cyaba kimeze neza bakagura.

Isoko ririmo ibikoresho bitandukanye, inkweto zizwi ku izina rya bodabota ry'ibicuruzwa na amabase n'amasafuriya, ibikombe n'amasahani bikunda gukoreshwa mu gikoni.

Isoko ry'ibiribwa ririmo abacuruzi bacuruza ibintu bitandukanye harimo: nk' indagara, udufuka two gutwaramo ibyo wahashye, harimo n'umukiriya uri kubaza ibyo yagura wikwi wicaye ku igare, bigaragarako yaba afite amatsiko y'ibyo ashaka guhaha.

Mwisoko nkaho hari ubucuruzi butandukanye bw'ibirayi mu myaka ndetse harimo n'abariremye bari kugura no kugurisha bitandukanye muri iri soko.

Isoko ririmo ibyo kurya cyane amavuta, kahunga, hakabamo isabune, hakabamo umunzani wo gupimaho ibyo ukeneye kugura, hakabamo amavuta yo kurya ari mu bwoko bw'igihwagari ndetse n'ari mu kajerekani.

Ubucuruzi bucuruza ibintu bitandukanye harimo indobo, ipaniye, amakora n'ibyombo byo mu nzu ahangaha rero iyo ushaka igikoresho cyo mu nzu cyangwa icy'isuku urakibona muri iyi botike.

Ahabarizwa amasanduku. Amasanduku rero akoreshwa mu gihe cyo gushyingura igihe umuntu yapfuye, bakeneye kumujyana ku irimbi bakoresha amasanduku kugira ngo batware umubiri we.

Aho bacururiza ibikombe by'iplasitike, biri mu bwoko butandukanye indobo, udupaniye n'ibindi, ibi bifasha abantu bari mu giturage cyangwa mu buzima buciriritse, kubona ibikoresho byo mu nzu.

Imboga ziri mu bwoko bw'inyanya, hakaba na kokombure, hakamo n'amaronje. Ubasha kugura icyo ukeneye muri ibi uko ari bitatu ukagihabwa, kandi ukaba utejeje imbere umucuruzi nawe ubwawe ukagira ubuzima bwiza.

Isoko ry'imboga aho batanditse ku bisima. Inyanya ziri mu dupaniye zifunze mu buryo butuma, uza guhaha yarangura. Ndetse harimo n'abakiriya batandukanye bari gucisha inyanya.

Ubucuruzi bwo ku muhanda harimo amapata akoreshwa bari gukinga urugi hakamo imyuko yo gutekesha igikoma cyangwa, umutsima kabaho za gakoco zifata imbeba kabaho utubogise two gushyiramo cyangwa kubitsa amafaranga mu gihe urimu rugo.

Umucuruzi uri gucuruza imyaka nk'ibishyimbo，hirya hakaba amasaka y'amamera no hirya hakaba ifu zitandukanye， ziri mu tuntu dutandukanye，byumvikana ko ari amoko atandukanye y'ifu， nk'ibigori，y'amasaka，y'ingano n'iy'uburo， akaba yiteguye guha serivisi uzamugana.

Mu isoko hanitse imyenda itandukanye hari dushora cyangwa udusharupe, hakabaho abakiriya bari kugura iyo myenda, kabaho n'umupapa uri kudoda ukoresha icyo twita icyarahani.

Isoko rya Musanze ryitwa Goyiko pulasa ryubatse mu buryo bwa etaje nziza kandi igezweho itanga serivisi zitandukanye mu bijyanye n'ubucuruzi yaba ubw'imyenda, ubw'ibikoresho by'ikoranabuhanga, ibyombo byo mu rugo.

Ubucuruzi butandukanye, burimo rape, bukabamo porte savo, bukabamo ibiringiti, ndetse n'ibikoresho by'isuku, nk'umukoropesho n'ibindi bijyanye na porute manto, kugira ngo urugo rube ruboneye kandi rusa neza.

Ibicuruzwa mu isoko harimo: ipanu hakabamo amasiniya, amasahane, amabase, ibiyiko, ibikombe amajerekani. Byose ni ibikoresho byo mu gikoni ibikombe by'ama purasitike, teremosi bifasha umuntu gukora imirimo ijyanye n'igikoni.

Abakiriya mu isoko bari kureba urujya n'uruza rw'abahagenda, ndetse bakanareba ibicuruzwa birimo kugira ngo, babashe kugura bitewe n'ibyo bakeneye byabazanye mu isoko, bakabona serivisi cyangwa se bakabona igicuruzwa nk'uko baje kugishaka.

Imbuto zitandukanye zirimo inanasi n'amaronje. Hirya hariho ubucuruzi bw'amasogisi n'amabogisi biri kumuhanda, kandi bitegereje ababigura kugira ngo nabo bahabwe serivise.

Isoko umusaruro w'imbuto zitandukanye hariho umusaruro w'imbuto zitwa wotameloni zimeze nk'ibihaza, ndetse n'amaronji ,n'amarakuja byose umuntu abasha kubibona ku giciro cyiza kandi kinogeye buri wese.

Isoko ritubakiye ariko ririmo abacuruzi benshi n'abaguzi benshi. Hari imyenda bari gutoranya cyangwa gucagura, uburyo bahitamo igicuruzwa bakeneye bakakigura.

ubucuruzi bw'imboga ziri fureshi aho biri gucuruzwa n'umudamu utegereje abakiriya bigaragara ko ataracuruza byinshi kuko imboga ziracyari zose.

Isoko ririmo imodoka n'abantu, imodoka ipakiye ibirayi harimo abari kubipakurura, hakabamo n'abandi hasi bategereje ibipakuruwe mu modoka kugira ngo babashe kugura bajye gucuruza.

Ahacururizwa ji z'ikinyobwa, kidasembuye, ziri mu bwoko bwa fanta zitandukanye, harimo izo mu kajerekani ndetse no mu macupa hari muri mililitiro magana atatu mirongo itanu.

Inyubako ndende y'ubucuruzi yubatswe mu buryo bwa etaje, iri kumurika icanye amatara abagenzi baragenda bayijyamo bajya gushakayo serivise.

Inkweto za caguwa z'ubwoko butandukanye n'amabara atandukanye， z'abahungu n'abakobwa， ziri ku isoko aho buri muntu abasha kuza akagura bitewe n'ubwoko bw'inkweto ashaka kugura n'ibara yahisemo.

Isoko ririmo abacuruzi batandukanye, ubucuruzi bw'imyenda, ubucuruzi bw'amasafuriya, amabase, umucuruzi w'amasogisi afite umwana, umucuruzi w'imyenda, umugabo uri kureba abaje kugura kugira abahe ibicuruzwa.

Ubucuruzi bw'ubunyobwa buseye bari gukoresha ikoroboyi mu kurenga, hanyuma ku munzani, nawo ukaba ukoreshwa ku barajyana byinshi, bagapimirwa ku munzani, iyo ari bikeya bakoresha ikoroboyi kugira nabo babashe guhaha no kugezayo ibyo yashatse ku isoko.

Mu isoko aho hari umukozi uri gukora isuku, undi akaba ari umukiriya ugenda mu isoko hari ibyo aje gushaka, ku rundi ruhande harimo abandi nabo bagiye muri serivisi zitandukanye, zijyanye n'izitangirwa mu isoko.